Icyumba gisashe neza kirimo ibitanda biriho amapine ndetse n'ibirahuri, harimo amatara, supanete zituma umuntu atarumwa n'umubu, biragaragara ko ari icyumba cyo kwa muganga cyakirirwamo indembe.

Ibitaro bya Gatonde byubatswe mu karere ka Gakenke bikunda kwitiranwa n'ibitaro bya Gatunda byo mu karere ka Nyamagabe, bitewe n'uko byose bijya kugira amazina asa bigatandukanira kuri o na u byo muri t.

Croix rouge ni umuryango wita ku mbabare ukorera ubushake, akenshi na kenshi ukunze gutabara aho abantu bafite ibibazo by'ubuzima bakeneye ubutabazi bwihutirwa, si umuryango ukorera mu Gihugu cy'u Rwanda gusa kuko ari umuryango mugari ku Isi.

ICRC usanga ifitanye imikorere ya hafi na Croix Rouge kubera ko abakoramo bose baba bafite aho bahurira n'ibi bigo byombi, abakozi ba Crox rouge iyo bagiye guterura umurwayi barabanza bagashinga ivi.

Abagabo bane barimo umugore umwe wa gatanu, umugabo umwe yambaye karuvati y'umutuku n'ingofero y'umutuku irimo ikirango cy'umuryango wa Croix rouge, abandi bagabo babiri basigagaye buri umwe yambaye umupira wa Crox rouge ndetse hari n'uwambaye ijire.

Umugore yambaye ijire ya Croix rouge irimo agasaraba nk'ikirango cy'uyu muryango ukorera mu Rwanda ndetse no ku Isi muri rusange, aho ari gufasha abantu guterura abarwayi baje barembye cyane by'umwihariko bakoze impanuka.

Imbangukiragutabara ni imwe mu modoka zigenda zihuta cyane bitewe n'amapine ziba zifite ndetse n'imiterere yazo, hariho abakunda kuvuga ko urebye uburyo iba igenda gake n'uburyo iba yihuta ari ibintu bitangaje cyane.

umugabo wakoze impanuka ya moto akikubita hasi, umutwe ukameneka, byabaye ngombwa ko bamwogoshesha urwembe kugira ngo babone uko bamupfuka. Ubu ni ubutabazi bw'ibanze yahawe, ubuhawe n'abajyanama b'ubuzima, hanyuma bamwihutana ku bitaro ngo barebe niba ubwonko nta kibazo bwagize.

Abaganga babiri umwe yambaye itaburiya y'ubururu undi yambaye itaburiya y'umweru irimo uturongo tw'ubururu, bari gufungura ambulance ngo barebe niba umuti wazanyemo utigeze wangirika, ni imodoka ya ambulance yanditseho magana cyenda na cumi na kabiri.

Ibitanda bibiri biteguye neza biriho amashuka ari mu mabara atandukanye biragaragara ko nubwo byakabaye bisa n'aho ari ibitanda byo mu rugo ahubwo ari ibitanda byo kwa muganga biri mu byumba byakira indembe.

Umugore n'umugabo baraseka bishimye cyane, umugore yambaye igitenge, ijipo ndetse n'iribaya. Mu gihe umugabo yambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umweru, afite telefone mu ntoki ariko yambaye n'umwambaro wa croix rouget.

Ibitaro byinshi cyane usanga haba hariho aho abana bavurirwa, aho abagore babyarira, aho bapfukira ibisebe ndetse n'aho bakirira abarwayi, aha tureba ni aho abana bakirirwa bakanavurirwa.

Abarwayi batatu bakoze impanuka ya moto birangira bajyanywe mu bitaro, bamazeyo ibyumweru umunani kuri iyi nshuro basuwe na so ubabyara, biragaragara ko bari koroherwa mu minsi ya vuba bashobora gusezererwa bagataha.

Umugabo yagiye kwa muganga ahageze basanga arwaye ijisho biba ngombwa ko yinjira aho baribagira, umuganga ari kumwitaho yambaye yikwije kugira ngo ataza kugira ibimwanduza.

Umugabo ufite mikoro yambaye karuvati yambaye n'ishati ifunze ibipesi amaboko yombi. Afite uruhara afite ijambo ari gutambutsa, ariko rigaruka ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo bwo kwihutira kugera kwa muganga mu gihe babona ko hari ikibazo kihutirwa.

Mu rwego rwo kugira ngo abana be gukomeza kugwiningira Leta y'u Rwanda, ishyiraho uburyo bwo gutegurira hamwe ibiryo bishobora gutuma umwana akura neza, mu cyiswe igikoni cy'Umudugudu kugira ngo umwana arusheho gukura neza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye harimo amakaro y'umweru n'ubururu, harimo ibirahure ndetse hakaba harimo n'amatara. Harimo kandi supaneti zituma umurwayi adashobora kuribwa n'umubu utera Malariya.

Imbaga nyamwinshi iteraniye ahantu hamwe buri umwe ahagaze imbere y'undi yashyizemo metero, bose bambaye udupfukamunwa, abambaye utupfukamu tw'umukara, abambaye udupfukamunwa dusa n'ubururu bw'ikirere, bose bari gushyiramo intera kugira ngo birinde icyorezo cya Covide cumi n'icyenda.

Icyumba cyo kwa muganga cyakira indembe kirimo umugabo waje yagonzwe na moto yakubitanye n'igare maze ata ubwenge, kuri ubu ari kwitabwaho n'abaganga batatu ndetse n'umurwaza umwe urimo arareba uko umurwayi we ameze.

Icyumba cyo kwa muganga kimeze neza kiriho ibitanda bitandukanye, ku bikuta hariho amatara ndetse harimo n'akabati, aha haragaragara nk'aho babagira abantu bafite ibibazo nk'ibisebe ndetse n'abagore batwite.

Icyumba kigari cyo kwa muganga gikorerwamo ibikorwa bitandukanye, iruhande rwacyo haragaragara ko hari laboratwari, hari abaganga babiri bameze nk'abari gusuzuma ibizamini by'abaganga byafashwe kugira ngo barebe niba abo baganga babifashe, bari mu kazi neza.

Abagore n'abagabo bagiye ku kigo nderabuzima cya muganga barimo bararebera hamwe uburyo bashobora kwirinda indwara ziterwa n'imirire mibi ndetse bakanategura indyo yuzuye.

Kwa muganga ahatangirwa ubufasha ku bijyanye no kuboneza urubyaro harimo umugore wambaye igitambaro mu mutwe, yambaye n'umupira w'imbeho, umugabo n'umugore bari kumufasha kumusobanurira ibijyanye no kuboneza urubyaro barashaka kumushyiramo agapira.

Abanyeshuri biga Ubutabire n'Ubugenge mu mashuri yisumbuye rimwe na rimwe baba bategurirwa kuzajya kwiga muri kaminuza ibijyanye n'ubuvuzi, hari abahitamo kujya kwiga muri laboratwari cyangwa se kwiga ibijyanye n'ububyaza.

Laboratwari ntabwo ushobora kuyikoramo atari byo wize, rimwe na rimwe ni ahantu usanga hasuzumirwa ibizami bitandukanye nk'umurwayi urwaye indwara ya kanseri ni ho bashobora kuyibonera, ikindi kandi n'uwapimwe Sida ibisubizo bye ni ho bigaragarira.

Abanyeshuri biga ubuganga muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, buri uko bamaze kwiigisomo runaka bagomba kujyakora ibizaminingiro muri laboratwari. Ibi bizamini bibafasha no mu buzima busanzwe iyo bamaze kugera mu kazi.

Kugira ngo umuntu amenye ko arwaye Sida nuko uko muganga afata amaraso ye akayajyana muri laboratwari akajya kuyapima, yasanga harimo agakoko akaza akaguha igisubizo cyawe akakugira inama y'uko ugomba gutangira imiti.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga harimo mikorosikopi yifashishwa muri laboratwari kugira ngo harebwe udukoko turi mu maraso niba umurwayi arwaye Sida cyangwa se ntayo arwaye.

Umuganga wicaye muri laboratwari yambaye agapfukamunwa kugira ngo ataza guhumeka ibyuka ahura nabyo, afite imashini imbere ye ari kugenda areba ibizame yamaze gufata by'abarwayi.

Icyumba kigari cyane kirimo amakaro, kirimo sima, kikaba kirimo n'amadirishya y'ibirahuri kirimo kandi ibyuma bisa n'aho ari iby'ikoranabuhanga ibizwi nka mikorosikopi biragaragara ko ari laboratwari.

Umugabo ukora muri laboratwari yambaye agapfukamunwa yicaye imbere ya mikorosikopi, afite uducupa tw'amaraso y'abarwayi batandukanye agira ngo arebere niba koko igituntu baje kwisuzumisha aricyo barwaye.

Imboga rwatsi ndetse n'imbuto byagaragaye ko ari bimwe mu biribwa bishobora gufasha umwana ukiri munsi y'imyaka itanu gukura neza, bitewe nuko iyo biteguranwe isuku bimurinda kurwaragurika ndetse bikanongera intungamubiri mu mubiri we.

Abagore batatu bicaye hamwe bameze nk'abari mu kagoroba k'ababyeyi buri umwe yambaye agapfukamunwa, biragaragara ko ari mu gihe k'icyorezo cya Kovidi cumi n'ikenda, ikindi kandi bahuriyeho ni uko bashyize metero hagati yabo kugira ngo hatagira uwanduza undi.

Impfu z'abana bapfa bavuka n'ababyeyi bapfa babyara ndetse n'izo bapfa bataragera ku myaka itanu ni kimwe mu bibazo bihangayikishije u Rwanda, niyo mpamvu abanyabuzima cyangwa se abajyanama b'ubuzima bakomeza guhabwa amahugurwa kugira ngo bakomeze gutange ubutabazi bw'ibanze.

Mu rwego rwo gukangurira abaturage kwita ku buzima bwo mu mutwe bwabo ntabwo kuri ubungubu bigifatwa nk'aho ari ikibazo gikomeye cyane kuko byagaragaye ko buri muntu wese aba afite ubuzima bwo mu mutwe akwiye kugira uko yitwararika.

Umujyanama w'ubuzima umaze igihe mu mahugurwa ku rwego rw'Akarere ari guhugura abaturage abereka uburyo bakwiye kwitwararika kugira ngo ubuzima bwabo bwe kujya mu kaga bitewe n'indwara ziterwa n'umwanda.

Ikigo k'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima RBC gikunda gushyiraho icyumweru cyahariwe umubyeyi n'ubuzima bwe hamwe n'umwana, aho baba akubwira ngo twite ku buzima bw'umubyeyi utwite n'umwana, abana ni inkingi y'ejo hazaza.

Ikigo nderabuzima cya Nyakarenzo ni kimwe mu bigo nderabuzima bimeze neza cyane kubera ko cyubatse mu buryo bugezweho, nubwo atari inzu igeretse ariko ukurikije nuko byari bimeze mu myaka yatambutse harimo itandukaniro.

Abakecuru n'abasaza bateraniye hamwe baje kwitabira igikorwa cyo kwamamaza umukandida w'umukuru w'Igihugu mu ishyaka rya FPR Inkotanyi, bose bambaye imipira y'imituku yanditseho ngo tora ku gipfunsi.

Mu Rwanda indwara y'igicuri igenda irushaho gucika intege bitewe n'uko Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu guhangana n'ibyayiteraga, ni na ho Leta ikuriza ingamba zo guhashya indwara zibasira ubuzima bwo mu mutwe.

USAID nk'umuryango w'abanyamerika ubu ntugikorera mu Rwanda. Abangabo ubwo bari bakiri muri uyu mushinga babaga bambaye imipira y'umweru iriho ibendera rya leta zunze ubumwe za amerika ndetse buri umwe akaba ashobora gufata mikoro akagira icyo avuga.

Croix rouge ni umuryango wita ukanatabara imbabare, rimwe na rimwe usanga bambara imyenda y'imituku ariko hari n'ubwo bahindura bakambara imyenda y'ubururu, icyo batajya bahindura ni ikirango cyabo kiri mu gasaraba k'umutuku.

Abagabo babiri ndetse n'abakobwa babiri ushobora no gusanga ari abagore babiri n'abasore bicaye hamwe barimo barakina amakarita barimo baraseka umukobwa umwe yambaye amaherena undi ntayo yambaye.

Akazu gato cyane gaherereye mu cyaro ariko bigaragara ko gasa neza ugereranyije n'izindi nzu zihari kanditseho amagambo agaragaza ko ari farumasi icuruza imiti, hariho na nimero ku buryo ubashaka wabagana, zeru, karindwi, umunani, umunani, kabiri, cumi na kabiri, icyenda, gatandatu, umunani.

Botike icururizwamo imiti, rimwe na rimwe ushobora kuyitiranya na butike icururizwamo inzoga bitewe n'uko etajeri zaho zombi ziba zisa. Yaba icururizwamo inzoga cyangwa icururizwamo imiti.

Umugore wihangiye umurimo nyuma yo gusoza amashuri ya kaminuza mu bijyanye na farumasi, yashinze farumasi ashyiramo imiti ikomoka ku bimera ndetse n'ibikomoka ku bindi bintu bitandukanye.

Umugabo ucuruza farumasi harimo imiti myinshi cyane itandukanye, harimo imiti ivura ibisebe, harimo imiti ivura umugongo, ibicurane ndetse n'amarozi, uyu mugabo yaje gucuruza farumasi asoje amasomo ye ya kaminuza.

Muri farumasi icururizwamo imiti itandukanye harimo umugore ndetse n'umugabo, umugore afite igitabo yandikamo imiti yagurishijwe mu gihe umugore yakira amafaranga, bombi bambaye amataburiya agaragaza ko bakora muri serivise z'ubuzima.

Umugore wambaye ibirenge ahagaze muri farumasi, yambaye isengeri ry'umweru yambaye nibinigi mu ijosi, umusatsi yawufunze shinyo, iruhande rwe hari imiti gakondo yatunganyijwe neza iturutse mu bimera ishyirwa ku isoko.

Farumasi nyinshi mu Rwanda usanga abazikoramo ari abize ibijyanye n'ubuvuzi, ntabwo ushobora gukora muri farumasi uvuye mu bijyanye n'ubuhinzi kubera ko ushobora gutanga imiti yagirira abantu nabi, ni yo mpamvu Leta iyo igiye gutanga icyangombwa ku bacuruzi b'imiti ireba ku mashuri wize.

Farumasi zaba izo kwa muganga cyangwa se izigenga mu mavuriro yigenga usanga zikoze mu buryo bw'amayetajeri aho buri muti uba uri mu gasanduku kawo.

Mu rwego rwo gukangurira abanyarwanda kwirinda icyorezo cya Sida, leta yashyize imbaraga mu kubakangurira ibinyujije mu rubyiruko, aho bahabwa imipira yanditseho ngo gakoresha neza. Ako ni agakingirizo nta kandi baba bavuga.

Mu rwego rwo kugira ngo abaturage bakomeze kugira ubuzima bwiza bakomeza kwegerezwa gahunda za serivisi z'ubuvuzi, aha ngaha umuyobozi w'Ibitaro bya Gatonde yegereye abaturage abakangurira kwita ku buzima bw'umwana.

Umuryango mpuzamahanga wita ku buzima ku isi, washyizeho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida, aho rimwe na rimwe usanga hanagaragara umunsi mpuzamahanga wo kurwanya malariya nubwo iyo minsi yombi idashobora gukomatanywa.

Imbaga nyamwinshi iteraniye hamwe bicaye hasi bateze amatwi umukangurambaga waje kubaha ikiganiro ku bijyanye n'imirire, ari kubabwira uburyo bakwiye gutegura indyo yuzuye ndetse bakayitegurana isuku kandi kuri iyo ndyo ntihabureho imbuto.

Kuri radiyo Isango sitari usanga rimwe na rimwe hanyuzwaho ibiganiro bifitanye isano n'ubuzima yaba ibiganiro by'imyororokere cyangwa se ibindi biganiro bigaruka ku buzima bwo mu mutwe.

Mu rwego rwo kugira ngo Abanyarwanda bakomeze kugira ubuzima bwiza Leta yashyizeho gahunda yo gukangurira abaturage, kwisuzumisha no kumenya uko ubuzima bwabo mu mutwe buhagaze, maze urubyiruko rusoje amashuri yisumbuye aba ari rwo baha izi nshingano.

Mu rwego rwo kwirinda impfu z'abana n'ababyeyi bapfa bavuka mu gihe ababyeyi bapfa babyara leta y'u Rwanda yashyikirije abaturage abajyanama b'ubuzima banahabwa amahugurwa y'ibanze yo gufasha aba barwayi.

Indabo, impeke z'ibishyimbo, ibitunguru, ubunyobwa n'ibindi byose byahurijwe hamwe kugirango bize kuvanwamo umuti gakondo bitunganyijwe neza, hanyuma uzagurishwe ku masoko mpuzamahanga.

Umusave ni igiti gishobora kuvamo imbaho nyinshi cyane kandi ziramba kuko abakunzi benshi b'iki giti bavuga ko ameza abajwemo adashobora kumungwa.

Kwa muganga gakondo usanga rimwe na rimwe haba hari ibyuma bidafite isuku, niyo mpamvu leta ikangurira abaturarwanda bose kujya kwa muganga, mu gihe bumva hari ikibazo bafite mu buzima bwabo bityo amaraso yabo, ntabe yaba makeya mu gihe bayakeneye.

Umuti gakondo kuwutegura ntabwo bigomberara ibintu byinshi. Ushobora kuwutegura wifashishije indimu, ibitunguru n'ibindi bitandukanye, hanyuma ukabivanga ariko kugira ngo bigire akamaro bigomba kuba byateguranwe isuku kugira ngo bizavure ababinywa, babashe gukira.

Umuti gakondo ukozwe mu miravumba ndetse n'igicunshu byavangiwe hamwe kugira ngo bifashe ababinywa gukira inzoka bikoreshwa hifashishijwe akamashini k'utugozi ku buryo gacomekwamo hanyuma ubinywa akanywa agatonyanga kavuyemo.

Igikakarubamba, tangawizi ndetse n'ibindi bitandukanye, ni mwe mu byifashishwa mu gukora umuti gakondo. Iyi miti imaze gukorwa yoherezwa mu mavuriro agiye atandukanye, bakayicuruza.

Uruyanja ni icyatsi kirandaranda, abenshi bakunda kukictiranya n'umwishywa kubera ko gishobora kuba gifitanye isano nawo hari n'abakekiranya kandi n'amababi y'ibidodo bitewe n'imiterere yayo ariko bigatandukanira ku kuba byizinga zinga.

Imiti gakondo yatunganyijwe ivuye mu bimera, birimo; igicunshu, umuravumba, igaserwa ikagirwa ifu ,yashyizwe mu dukoresho twabugenewe kugira ngo izatunganywe ,mbere y'uko ishyirwa ku isoko.

Abagore ndetse n'abagabo bateraniye hamwe, batetse mu kungo, batetse umuti gakondo. Uyu ni umuti bifashisha birukana amadayimoni iyo hari uwatewe na yo cyangwa se batsirika abazimu.

Ni byiza ko amavuriro ndetse n'ibigo nderabuzima byegerezwa abaturage kugira ngo hirindwe imfu z'ababyeyi n'abana bapfa bavuka. Rimwe na rimwe kera wasangaga abana bapfa bavuka kubera ko kugera kwa muganga byabaga bigoye.

Umugore wagiye kwa muganga yiteza igitambaro cy'umukara, yambaye iribaraya rijya gusa n'icyatsi, imbere ye hari umuganga wambaye agapfukamunwa bigaragare ko ari mu gihe cya Kovidi cumi n'ikenda ari kumubaza uko yiyumvamo ngo abone uko amwandikira imiti.

Buri Mudugudu biragaragara ko ugomba kuba ufite igicumbi cy'aho ubarizwa, kuri icyo gicumbi uhasanga icyapa cyanditseho amagambo agaragaza kirazira zawo nk'iki gicumbi ni icy'Umudugudu w'Impeshakurusha mu Karere ka Nyagatare.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho isukaje amabati y'ubururu, amarangi y yuubururu, ifite ibirahuri by'umweru, iruhande rwayo hahagaze abagabo ndetse hanateye jaride itarakura neza ku buryo ubutaka bukigaragara.

Umuhanda wa kaburimbo iruhande rwawo hariho amapave kuri ayo mapave mu nzira y'abanyamaguru hariho porutayi nini cyane yanditseho ngo ivuriro ibi byose bigakorwa mu rwego rwo kwegereza serivisi abaturage.

Abarimu bigisha mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye bashyirirwaho amahugurwa abategurira uburyo bagomba kwinjira mu kazi iyo ari bwo bakikinjiramo, ikindi kandi usanga batozwa kwiga gukoresha za mudasobwa.

Gira ubuzima ni amagambo yanditse hejuru y'umuryango w'ikigo nderabuzima cya Nyagasheke, iruhande rw'icyo kigo nderabuzima hari ababyeyi babiri, umubyeyi w'umugabo afite umwana mu kaboko k'iburyo, umubyeyi w'umugore afite umwana mu kuboko kw'ibumoso.

Abaganga babiri barimo umugabo n'umugore umugabo yambaye amarinete ndetse yambaye n'igipima ububushyuhe mu ijosi, afate ikaramu yubururu n'urupapuro rw'umweru, ari kubaza umurwayi uko yiyumva kugira ngo abone uko amusuzuma.

Ikigo nderabuzima kiri mu cyaro ubona ko nubwo gisa neza ugereranyije n'izindi nzu zihatuye cyanditseho ngo gira ubuzima, gisakaje amabati y'ubururu ndetse n'amarangi ni ubururu ariko nanone giteye mu ishyamba riteye ubwoba.

Girubuzima. Aya ni amagambo yanditse hejuru y'ikigo nderabuzima, kigerageza kwakira abantu kandi kikabaha serivisi nziza. Iruhande rw'ayo magambo hari ababyeyi babiri, umugabo n'umugore. Buri umwe afite umwana mu maboko.

Gira ubuzima, aya ni amagambo yanditse ku kigo nderabuzima impande y'ayo magambo hariho igishushanyo cy'umubyeyi w'umugabo n'umubyeyi w'umugore, umubyeyi w'umugabo afite umwana ndetse n'umubyeyi w'umugore afite umwana.

Kwa muganga ni byiza ko niba ugiye kwivuza uhasanga abaganga b'inzobere bakagufasha, umukecuru agiye kwivuza ahageze ahasanga umuganga w'inzobere amushyiraho igipimo ku kizigira cy'akaboko, arangije aramusuzuma.

Girubuzima ni amagambo yanditse hejuru y'ikigo nderabuzima gisakaje amabati y'ubururu ndetse n'irangi giteye ni ubururu, iruhande rw'ayo magambo hari umubyeyi w'umugore ndetse n'umubyeyi w'umugabo, bombi bafite abana mu maboko yabo y'iburyo.